Ndabona ahantu hameze nko muri sare cyangwa mu cyumba hari intebe, hari ameza nkabona n'icyapa cyanditseho enjoyi furi wayifayi conegiti tu shopingi netipuri k'ubururu n'umweru.

Ndabona umuntu w'umubyeyi w'umumama wambaye umweru, ufite ikaramu mu ntoki, ufite agapapuro mu ntoki, hirya ye har'ibitabo, imbere ye hari idarapo, hirya ye kandi har'izindi mpapuro nyinshi. Kandi ndi kubona hirya harimo akantu ka kashe.

Iyi ni ifoto igaragaza inyubako, inzu iri ku muhanda aho abantu batambuka hari akayira ka banyamaguru, hakaba harimo n'umumotari utwaye moto, harimo n'imodoka ziparitse, harimo n'abantu bari kugenda babamyamaguru basanzwe hakaba ari ahantu hasanzwe ho kugenderwa hafi y'umuhanda.

Ndabona amazu menshi, menshi ameze nk'umudugudu. Ndabona ibiti, ndabona ama etaje, ndabona insinga z'umuriro w'amashanyarazi, kandi ndi kubona mo hagati handitsemo ngo Kimironko. Ikigaragara cyo aha ni Kimironko, hirya kure hari amazu maremare y'amagorofa ataruzura.